Inama irimo abantu benshi batandukanye, abagore n'abagabo. Abagore bambaye imyenda myiza, abagabo bambaye amakositime abandi bambaye amashati nako bariya bandi bagabo babiri bicaye hirya bayoboye inama, bari kunywa amazi, amakaye yo kwandikamo.

Abagore n'abagabo bicaye ku meza manini yatandukanye bakaba bafite imbere yabo uducupa tw’ amazi hakaba hari uhagaze usa nkaho arimo gutanga igitekerezo cyiwe mu nama.

Abayobozi bicaye ku meza bane ari batanu abagore batatu n'abagabo babiri ubona ko bari mu murenge wa Kigarama akarere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali.

Abagabo batanu n'abagore babiri bicaye ku meza manini, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, imbere y'abo bagabo hakaba hari imashini za mudasobwa ebyiri.

Abagore n'abagabo batandukanye bicaye munsi y'ahantu hasakaje bikoreshejwe ibishitingi z'umweru za kijyambere, hakaba hahagaze umugore ufite indangururamajwi arimo kubaherezaho ikiganiro.

Umugabo wambaye amataratara ku maso wambaye karuvate ikote ry'ubururu, n'ishati y'ubururu imbere ari agacupa k'amazi.

Abagore n'abagabo bicaye mu cyumba kinini, bakaba bagiye bicaye imbere y'ameza ariho ibitambaro by'umweru, bamwe bakaba bafite imashini za mudasobwa imbere yabo, bakaba bafite amakereyo yo kwandikamo, bamwe bakaba bafite imbere yabo uducupa tw'amazi yo kunywa, ukaba ubona ko bari mu gikorwa kimwe cyabateranyirije muri iki cyumba kinini.

Abagore n'abagabo bambaye imyenda myiza itandukanye, bakaba bicaye mu ntebe z'umukara imbere yabo hakaba hari ameza maremare manini ari mu ibara ry'umutuku kandi bakaba bafite uducupa tw'amazi, imbere yaho bamwe bakaba bafite amatelefone manini agezweho, abandi bakaba bafite amakaye yo kwandikaho n'amakaramu.

Abayobozi ba leta biganjemo abagore n'abagabo, bambaye imyenda amakote, bakaba bari mu nama buri muntu afite imashini ya mudasobwa ikayi n'ikaramu imbere ye.

Icyumba kirimo abagabo n'abagore batandukanye, abagabo bambaye amakote n'abagore bambaye amakanzu, bakaba imbere yabo buri muntu hagiye hari imashini ya mudasobwa n'indangururamajwi, bakaba bafite kandi ucupa tw'amazi, inyuma yabo hakaba hari abanyamakuru bafite ibikoresho byo gufata amashusho bitandukanye.

Sitade irimo abantu bari mubwoko bwurubyiruko bakaba bambaye imipira itandukanye abambaye imipira y'icyatsi abandi bambaye imipira yimihondo ubona ko bahuriye ahantu hamwe ari benshi mugikorwa cyabazanye.

Abagabo bicaye ku meza akoze uruziga, ruri mu ibara ry'umutuku hakaba imbere yabo hari amazi yo kunywa haba hari indangururamajwi, abicaye mu ntebe z'umukara nziza, ukabona ko ari abantu bari muri gahunda zitandukanye za leta

Abagabo n'abagore bambaye neza bakaba bakora mu nzego zitanga serivisi za leta bicaye mu ntebe nziza zirimo imifariso bakaba bafite bamwe amakaye n'amakaramu harimo ibyo barimo kwandika.

Icyumba kirimo abantu batatu bicaye imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, babiri muri bo imbere yabo hari amakayi yo kwandikamo, undi wa gatatu imbere ye hari mudasobwa yo kugira ibyo yandikamo bakurikiye ibiri gutangazwa.

Abagore n'abagabo bicaye ahantu mu cyumba kinini, bakaba bagiye bicaye muburyo bw'ameza atandukanye bakoze uruziga. Bakaba imbere yabo hari abagabo babiri n'umugore umwe barimo kubahereza ibiganiro. Imbere ku meza y'abantu bicaye bakaba hagiye hariho amakaye yo kwandikamo, ubucupa bw'amazi n'ibirahure byo kunyweramo amazi bitandukanye.

Abagore bambaye imyenda itandukanye, bakaba bari bicaye mu ntebe nziza z'imifariso, akaba imbere y'umugore hariho ameza n'agacupa k'amazi yo kunywa, bakaba kandi bafite ikayi n'ikaramu barimo bandika.

Inama igaragaza abayobozi bakuru b'igihugu, harimo umuyobozi mukuru wa beneri, abazungu bari kunywa amazi ya nile, sanitayiza iri ku meza, n'andi meza menshi atandukanye ubonako bari mu nama ikomeye kandi bambaye neza.

Abantu benshi bahagaze ku ruhande rw'umuhanda bakaba bafite icyapa cyanditseho sida iracyahari duhagurukire kuyirwanya kandi imbere yabo hakaba n'umupolisi ushinzwe umutekano mu muhanda urimo gutumira igikorwa kigenda nezaba ari abantu bari mu bwoko bw'urubyiruko barimo kwamagana indwara ya sida.

Abagore babiri n'umugabo umwe wambaye ishati yenda gusa umutuku abagore bakaba imbere yabo bafite imashini za mudasobwa n'uducupa tw'amazi bakaba bicaye mu ntebe z'umukara.

Abagabo babiri umugabo umwe yambaye ikote undi akaba yambaye ishati y'umukara, imbere yabo bicaye ku ntebe z'umukara, ku meza meza y'umutuku manini baba bafite imashini za mudasobwa zibari imbere bombi bakaba bafite uducupa tw'amazi n'amaterefone arambitse kuri ayo meza n'amakaye n'ikaramu.

Abagabo barindwi bambaye amakoti n'amakaruvati hamwe n'abagore babiri bambaye amakanzu, bakaba bicaye ku meza maremare, imbere yabo hakaba hari uducupa tw'amazi, bamwe bakaba bafite za mudasobwa zibari imbere, bakaba bicaye, urabona ko bayobowe n'umuntu umwe, bari gukora inama.

Abasore batandukanye bambaye imipira y'ubururu hakaba hariho idarapo, ry'u Rwanda akaba ari urubyiruko ruri mu mwiherero, bakaba bicaye mu ntebe zitandukanye zigiye zifite ibitambaro by'umuhondo n'umweru, imbere ku meza hakaba hari amakaye n'amakaramu yo kwandikamo, hakaba hariho n'uducupa tw'amazi.

Uburyo bwo gukoresha murandasi ukaba wakoresha serivise zitangwa n'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, aho wabasha kureba ibijyanye n'ibisubizo ku ndwara ya kovidi cumi n'icyenda ukoresheje murandasi, shyiramo imyirondoro yawe.

Umunara muremure w'itumanaho, uri ahirengereye ubona ko ufasha muri gahunda za leta gutanga serivise ku baturage.

Umunara muremureye uteye amarangi y'umweru n'umutuku, ukaba munsi yawo hari ibiti bitandukanye, bikaba harimo n'insinga z'amashanyarazi ziri kujya mu byerekezo bitandukanye.

Umugore wicaye muntebe inyuma ye hari idarapo ry'igihugu cy'urwanda kuruhande rumwe kurundi ruhande hariho ikirangantego kikiguhugu akaba ari umukozi wa leta wicaye aho akorera.

Ikigo cyo kuri murandasi cya RURA cyo mu Rwanda, aho uba ushobora kuba washyiramo imyirondoro yawe, ukajya kuri urwo rubuga hanyuma ukagira serivisi zitandukanye wifasha, wifashisha bitewe na serivisi ukeneye.

Abantu bari ku murongo bafite ibiti bavanye muri pipinyeri bigiye guterwa ahantu hatandukanye harimo abanyarwanda, abazungu.

Umunara muremure uteye amarangi y'icyatsi, ukaba ari umunara w'ibyuma, hakaba hariho ibikoresho bitandukanye, bifashwa mu itangazamakuru n'ibindi bikoresho bifashwa mu itumanaho.

Barimo kwamamaza uko wabasha gukoresha serivisi y'irembo ari wowe ubyikoreye ukoresheje telefone igendanwa aho bakwereka uko wagenda wiyandikisha mu gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga ukoresheje irembo bitakugoye kandi ukoresheje telefone yawe igendanwa .

Ubutumwa butangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda kigaragaza ko serivisi z'ibinyabiziga zimutse hakaba hari itangazo rigaragaza ko abagana serivisi zose z'umusoro n'amahoro w'ibinyabiziga hari aho zimukiye aho bita Masaka.

Iminara miremire igera irenze itatu myinshi, akaba ari iminara iteye amarangi y'umweru n'umutuku ikaba iriho ibintu by'ibisahane binini byifashishwa mu itumanaho.

Ubutumwa butangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu rwanda, hakaba hagaragaza ko habura iminsi itanu itariki ya nyuma yo gusorera imitungo itimukanwa imitungo rusange muri rusange ngo igere.

Ifishe igaragaza kurarikira abakunzi ba arabiyeyi bifuza gukurikira ikiganiro cy'imisoro n'amahoro mu rwanda, itariki ntarengwa yo kwishyura umusoro ni tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi bibiri, bibiri na makumyabiri na kane.

Ubutumwa bugaragaza ko umunsi wo gusora imisoro n'amahoro wageze, ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri na kane, uyu akaba ariwo munsi wa nyuma akaba ubutumwa butangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro.

Abakozi bakora muri gahunda zitandukanye za leta hakaba n'umugore ufite telefone nini, akaba arimo kugira ibyo afasha abaturage bamuri imbere nabo bafite amaterefoni, ukabona ko ari abantu batanga serivisi zitandukanye za leta.

Ubutumwa bugufi bwa ikigo gishinzwe imisoro namahoro m'urwanda kirimo kwibutsa abasora ko umunsi wanyuma wo gusora mumwaka wa bibiri na makumyabiri na kane ari kwitariki ya mirongo itatu nimwe zukwacumi nabiri bibiri na makumyabiri na kane.

Ubutumwa butangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, kikaba kiri kugaragaza ubusobanuro ku bijyanye na nyir'umutungo utimukanwa akabavuga, hakaba havuga ko nyir'umutungo utimukanwa ari umuntu wanditswe, nyir'uwo mutungo cyangwa ufite ubundi burenganzira ku mutungo, n'ufatwa nyir'umutungo hakurikijwe amategeko y'u Rwanda.

Inzu ndende y'amagorofa arenze abiri, hejuru hariho iminara y'itumanaho, ibiti by'amashanyarazi biriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, mu byerekezo bitandukanye.

Abantu bicaye imbere za mudasobwa, benshi, batandutanye, ubona ko bashinzwe gukora ibintu by'ikoranabuhanga. Umugabo uri hejuru y'uwundi arimo kumufasha, ameze nk'aho ari kumusobanurira.

Icyapa kigaragaza ko bari gutanga akazi ko gutwara mu mujyi wa darisaramu Tanzaniya byo kumvikana gukorana umwaka umwe, kiriho nibindi byose bisabwa.

Urubuga rwo kuri murandasi irembo ukoreraraho aho ushobora kujya kuri murandasi hanyuma ugashyiramo imyirondoro yawe ukabasha kuba wakoresha serivisi zose zitangwa n'urubuga rw'irembo.

Urubuga rwo kuri murandasi ruriho amafoto agaragaza kwamamaza u Rwanda bizwi nka sura u Rwanda, hakaba hariho ikipe y'igihugu mu gihugu cyo mu Budage yitwa Bayani ikaba iriho abakinnyi bayo batandukanye, hasi hakaba hari bakinnyi bari gukina umukino w'amaboko bakaba bari kwamamaza sura u Rwanda.

Ubutumwa buri gutangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda bakigaragaza ibipimo by'umusoro w'ubutaka uko buteye mu gihe hariho inyubako zero n'ibice bitanu ku ijana by'agaciro ku isoko k'inyubako ni ak'ikibanza byagenewe guturwa muze n'ibice bitatu ku ijana by'agaciro ku isoko k'inyubako na na kikibanza byagenewe ubucuruzi n'ubundi butumwa buri hasi buta...

Umunara muremure w'ibyuma ukaba uteye amarange y'umutuku n'umweru, hakaba hariho ibisahane binini cyane bishinzwe itumanaho.

Igiti cy'amashanyarazi cy'icyuma kirekire kikaba kiriho insinga zijya mu byerekezo bitandukanye, imbere yaho hakaba ari umuhanda kaburimbo agahanda k'abanyamaguru bagenderamo, hasi y'icyo giti ha akaba hateye ibiti byinshi bitandukanye hakaba harimo n'imodoka ikururana ifite kontineri y'icyatsi.

Ipoto y'amashanyarazi iriho insinga zijya mubyerekezo bitandukanye umuhanda w'abanyamaguru ubona ko ari umuhanda umeze neza wa kaburimbo ibiti ubusitani buteye kuruhande rw'umuhanda.

Amashanyarazi amatara yo kumuhanda amapoto ajyanye umuriro w'amashanyarazi, ibiti, igipangu n'amashanyarazi agiye mu bice bitandukanye insinga z'amashanyarazi.

Inyubako y'amagorofa arenze rimwe ibiti by'amashanyarazi biriroho insinga z'amashanyarazi zijya mu byerekezo bitandukanye, ibiti biteye ku ruhande rw'umuhanda, ahantu batwaye abagenzi kuri moto.

Umuhanda, amashanyarazi, umuntu, ibiti, inyubako z'amazu.

Umukozi ukor' amashanyarazi wuriye hejuru ku ipoto, ubonak' arimo kugir' iby' akora bijyanye n'amashanyarazi, akaba yiziritse yambaye n'inkweto zabugenewe zimufasha gufata ku ipoto.

Umuhanda wa kaburimbo urimo hagati ubusitani harimo ibiti bitandukanye biriho ibyo mumuhanda nibiti byamashanyarazi bitwaye umuriro wamashanyarazi mubyerekezo bitandukanye ninyubako yamagorofa.

Umunara muremure uriho insinga z'amashanyarazi zijya mu byerekezo bitandukanye, hasi y'uwo munara hakaba hateye ibiti bitandukanye by'ubwoko bwinshi.

Igiti cy'amashanyarazi kiriho ibikoresho by'amashanyarazi bitandukanye , nka koro ,isinga n'ibindi bikoresho by'amashanyarazi bitwara umuriro w'amashanyarazi.

Igiti cy'amashanyarazi kiriho insinga z'amashanyarazi zijya mu byerekezo bitandukanye ubona ko riteye hagati y'amazu umudugudu urimo inzu nyinshi zitandukanye.

ipoto y'amashanyarazi iriho insinga nyinshi zijya mu cyerekezo gitandukanye, umuhanda usanzwe w'ibitaka, ibiti biri inyuma y'igipangu kirimo inzu ebyiri zisakaje amabati y'umukara.

Amapoto y'amashinyarazi ariho tarasifo, insinga z'amashinyarazi, abantu bari munsi yaho, akazu ka emutiyeni, n'amazu ari hirya ku ruhande yegeranye n'ayo mashanyarazi.

Igiti cy'amashanyarazi kiriho insinga z'amashanyarazi zijya mu byerekezo bitandukanye, inzu zubatse mu buryo butandukanye, umuhanda wa kaburimbo, ibiti biri hafi y'umuhanda, ibiti by'amashanyarazi birimo amatara yo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande urimo agace gateyemo ubusitani ibiti bitandukanye, ku ruhande rw'umuhanda hakaba hari ibiti binini, bifite amashami manini n'amatara, n'ibyapa bya emutiyeni.

Igiti cy'amashanyarazi kiriho itara ryo kumuhanda, insinga z'amashanyarazi zijya mu byerekezo bitandukanye, ubonako ar' igipangu kirih' amatara y'igipangu.

Igiti cy' amashamyarazi kiriho insinga zitandukanye, inyubako nyinshi bakora inyubako y'ubucuruzi ,imitaka ya MTN, abamotari.

Umunara muremure wu wabakishijwe ibyuma, muremure uriho insinga z'amashanyarazi zijya mu byerekezo bitandukanye. Akaba ari umunara wubatswe ahantu hasa naho hari ibiti byinshi bitandukanye.

Ubusitani burimo ibiti bitandukanye by'amoko atandukanye, hakaba hagati harimo igiti cy'amashanyarazi, kiriho insinga zijya mu byerekezo bitandukanye, hakaba hariho n'amatara, itara ryo ku muhanda hirya yaho hakaba hari inzu z'abaturage n'umuhanda wa kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande rw'umuhanda hakaba hari ubusitani bugiye butandukanye, bwegereye ku bipangu by'amazu y'abaturage, imbere y'ibyo bipangu kandi hakaba hariho igiti cy'amashanyarazi gitwara insinga zitandukanye zirenze rumwe, n'ibindi biti biteye hafi y'umuhanda.

Ikigonderabuzima, inyubako, ubusitaniti, parikingi irimo imodoka, amazu manini atandukanye.

Imodoka ebyiri ziri aho baparika imodoka, imbere y'icyapa cy'ibitaro bikuru cya Kacyiru inyubako ibitaro bya Kacyiru.

Umuhanda wa kaburimbo ufite udamu tw'abanyamaguru bagenderaho ku mpande zombi, icyapa kinini kigaragaza aho ibitaro bikuru bya butare bikorera, inyubako z'ibitaro n'idarapo ry'u Rwanda.

Inyubako ndende yubatswe ku buryo bugezweho. Imodoka zigera kuri eshatu ziri aho baparika imodoka imbere y'iyo nyubako. Ebyiri zifite ibara ry'umutuku, n'indi ifite ibara ry'umuhondo.

Abantu batandukanye harimo abagore n'abagabo barimo bakoma mumashyi bakaba bahagaze inyuma y'icyapa cyanditseho inkiko gacaca ubutaberaba hari abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bari mu gikorwa cyo kugaragaza urukiko rwa gacaca.

Umupolisi w'umuzungu wambaye amataratara akaba afashe mu kuboko umugabo w'umwirabura wambaye amataratarara nawe, yambaye ikote na karuvati, akaba yambaye n'amapingu.

Ifoto igaragaza abantu benshi b'abagore bicaye munsi y'ibiti, umugabo wegamye ku giti urabona ko bari mu gihe k'izuba. Hari abacamanza bane bicaye bari gucira umugabo urubanza.

Umugabo w'igikara wambaye imyenda, ishati na karuvati, kabaye inyuma y'ishati na karuvati hariho, yambayeho ibikanzu by'umutuku n'umukara n'umweru, bigaragaza ko ari umugabo ukora mu bintu bijyanye n'ubushinjacyaha.

Umuhanzi nyarwanda Kizito Mihigo wambaye ishati y'iroza ufite agatabo k'ubururu arimo gusoma, abandi bantu bari hirya bigaragara ko bari mu rusengero benshi batandukanye.

Abagabo n'abagore bagera kuri batanu, bakaba imbere yabo hari umugore wambaye imyenda y'abacamanza, nabo bakaba bambaye imyenda y'abacamanza y'umweru n'umukara nakaba bafashe ku idarapo y'u Rwanda bamanitse akaboko k'indyo barimo barahirira inshingano nshyashya bagiyemo.

Abagabo icumi bicaye ku ntebe yarambaraye y’urubaho, aho babiri muri bo bambaye udupfukamunwa, bambaye imyenda y’roza.

Abantu bicaye munsi y'igiti kinini bari guciribwa urubanza n'urwego rw'ubunzi mu Rwanda, abaturage baje kumva uru rubanza ari benshi bakikije benshi bari munsi y'icyo giti bugamye izuba n'amazu yandi yo ku ruhande.

Umugabo wambaye karuvati, akaba yambaye ibintu by'ibikote binini birimo amabara y'umutuku, umukara n'umweru, akaba ari imyenda yambarwa n'abacamanza cyangwa abantu bakora mu nzego z'ubushinjacyaha.

Abagabo batandatu bambaye imyenda itandukanye harimo uwambaye ikabutura bari gusohoka ku muryango munini hejuru uwo muryango wanditseho gereza yagera bigaragara ko bavuye muri gereza ya Mageragere akaba ari inyubako yubatswe ikoresha amatafari ahiye ndende.

Abagabo babiri n'abagore babiri, umugabo umwe akaba yambaye amarinete, abandi batambaye amarineti, bakaba bambaye imyenda y'umukara n'umweru, ubona ko ari imyenda yambarwa n'abakora mu nzego z'ubutabera, imbere yabo hakaba hari akameza gakozwe mu mbaho.

Aha haragaragazwa inzu icururizwamo ibikomoka ku mata bizwi nkadiyari. Aha, hari icyuma cyabugenewe kibika aya mata, hari n'akabati kabugenewe kagizwe n'ibirahuri gateretsemo utujerekani dutoya tw'umweru turimo amata.

Igipangu kinini gifite amabara y'umukara n'umuhondo, hakaba hejuru hariho icyapa cyanditseho gereza ya Nyanza. Imbere y'ipangu rero, hakaba harimo ibiti bitandukanye, hakaba inyuma y'igipangu, hari ishyamba rinini ririmo ibiti bitandukanye.

Umugabo wambaye amarinete yambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru, akaba ari umugabo witwa Bamporiki Edouard Ngirente Eduard, akaba yari Minisitiri w'urubyiruko aha ngaha akaba yari ari imbere y'ubushinjacyaha.

Abagabo babiri barimo gusuhuzanya, umugabo umwe akaba yambaye imyenda yiroza, undi mugabo akaba yambaye ishati y'umweru, uwo mugabo wambaye iroza akaba yitwa Abudulu, bakaba barimo basuhuzanya bahagaze imbere y'inyubako ndende igezweho. Inyuma yabo hakaba hari ubusitani butandukanye.

Abapolisi bambaye impuzankano igipolisi cy'u Rwanda bakaba bafite bose imbundaba bamwe bafite utupapuro tw'umweru mu biganza byabo bahagaze ku murongo.

Igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro kiri mu ibara ry'umutuku akabatsishu amagambo y'umweru mu ibara ry'ubururu kandi hakaba hariho imipira ibirifashishwa mu kuzimya inkongi nyuma hakaba arirenga ibi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuzimyaya inkongi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abapolisi bagera kuri bane bambaye impuzankano za gipolisi cy'u Rwanda umugabo urikwigare wambaye umupira w'icyatsi n'ingofero itukura abakozi baMTN bari mu mitaka y'imihondo hirya y'umuhanda.

Umupolisi wo mumuhanda wahagaritse umushoferi utwaye imodoka ubonako arimo kumubaza ibyangombwa bye bitandukanye ,bahagaze kumuhanda

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro akaba ari igikoresho gi by'umutuku akaba ariho umupira w'umukara akaba hariho n'aho umuntu afata mu gihe agiye kuzimya inkongi y'umuriro.

Sitasiyo ya polisi, aho sitasiyo ya polisi yo mu karere ka Gasabo ikorera. i Remera. Hahagaze abapolisi babiri bari imbere y'aho umuntu yinjirira.

Inzu iteye amarangi y'umuhondo, imbere y'umuryango hejuru hakaba hari icyapa cya polisi y'u rwanda. Ikaba isakaje amabati y'umutuku, imbere hakaba hateye indabyo z'umuhondo zitandukanye. Hirya yaho hakaba hari abapolisi babiri bambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda.

Ahantu hirengeye hakikijwe n'ibiti, aho hari umukozi wambaye umugabo wambaye imyenda y'umukara, imbere hari imeza iteretseho gaze, isafuriya inyuma y'umutuku umugabo akaba afite igitambaro cy'umutuku, bigaragara ko arimo kwigisha abantu uko ushobora kuzimya gaze irimo kwaka.

Polisi y'u Rwanda yambaye imyenda y'igipolisi cy'u Rwanda, iriho amadarapo y'u Rwanda ari mu ibara ry'ubururu, bafite imbuta yo mu bwoko bwa karacinikofe, ubona ko bari ku murongo bafata amabwiriza bayahabwa n'umukuru wabo.

Polisi y'u Rwanda ihetse ibikapu, ifite amazi, ifite imbunda ikibuga ahagazemo n'inyubako zikikije ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uriho ibiti by'amashanyarazi by'ibyuma biriho amatara yo k'umuhanda ,hafi y'uwo muhanda hakaba hari abantu bari munsi y'imitaka y'umutuku ya eyateri (aitel ) hakaba hari umuntu wambaye ijiri y'umuhondo wa emutiyene (MTN) mbere ye hakaba hari abaporisi bambaye impuzankano z'akazi.

Abantu batandukanye barimo abagore abagabosaza n'abakecuru bakaba bari kurongo myinshi itandukanye bakaba basobanubona ko bategereje gukora igikorwa'aho kimwe ari cyabazanye.

Icyumba kinini kirimo abantu batandukanye abagore, abagabo imbere yabo hari indangururamajwi n'ubucupa bw'amazi urabona ko bari mu nshingano za leta .

Abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye, abagabo bakaba bambaye imyenda y'amakoti n'amakaruvati, abicaye mu ntebe z'umukara z'imifariso nziza, imbere yabo kandi hakaba hagiye hari ameza meza, ariho agacupa k'amazi, akaba ariho n'igikombe, n'indangururamajwi imbere yabo.

Abakozi ba reta bakora muri komisiyo y'amatora, aho barimo mu cyuma cy'itora barimo barabara amajwi bakaba bambaye imipira y'imyeru n'ingofero z'imyeru hariho ibirango by'amatora.

Umugabo usa nkukuze cyane wambaye ishati irimo iciyemo uturongo, bambaye karuvati y'umutuku irimo amabara umutuku n'umweru akaba yambaye marineti.

Abaturage barimo abagore n'abagabo, abakecuru n'abasaza bambaye imyenda itandukanye, bakaba bafite igipapuro kiriho umukandida w'itora, aho hagiye hariho ifoto y'uwo mukandida bafite imbere, bahagaze imbere z'inyubako zitandukanye.

Ifoto igaragaza sena y'igihugu cy'u Rwanda, uko igizwe n'abagore n'abagabo ariko abagore nibo bari benshi ibigaragara ku ifoto, bafite ama mikoro, amazi, amatasi abar'imbere ubona ko bari mu kazi.

Abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye, bakaba bahagaze imbere y'umuryango munini, hejuru y'uwo muryango hakaba hariho icyapa cyanditseho urwunge rw'amashuri ya Kimironko ya mbere, hakaba hasi y'icyo cyapa hariho ibitambaro biri mu mabendera y'igihugu cy'u Rwanda.

Peresida Paul KAGAME yararimo kwiyamamariza koyobora igihugu cy' u Rwanda, uriya wamabaye igofero yumukara iriho ibirango bya FPR n'umupira utukura, nundi mugabo wicaye hafi yimodoka yiwe nawe yamabaye ingofero yumukara yanditseho Paul KAGAME.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye, abagabo bambaye amakoti n'amakaruvate imbere yabo hakaba hari imashini za mudasobwa, indangururamajwi n'uducupa tw'amazi n'udukombe akaba kandi bicaye mu ntebe z'umukara n'ameza meza maremare, manini atandukanye.

Perezida wa Repubulika Paul Kagame yambaye umupira w'umweru, ipantaro n' ingofero y'umukara azamuye ukuboko, ukikijwe n'abarinzi be batandukanye bambaye imyenda y'umukara, akaba amanitse akaboko arimo asuhuza abaturage bateraniye ahantu hanini hatandukanye mu gikorwa cy'amatora mu kwiyamamaza mbere y'amatora.

Icyumba cy' amatora, abantu batatu babahungu, abagabo babiri umugore umwe; bashinzwe gukoresha amatora, impapuro z'amajwi.

abayobozi bakora mu nzego zitandukanye za leta aho harimo perezida wa repubulika paul kagame uyu wambaye umupira w'umutuku n 'ishati undi numusaza w'igikara undi mugabo wambaye ikoti abandi bantu bari inyuma abakozi ba leta

Perezida wa repubulika paul kagame yahagaze imbere y'indangururamajwi enye nyuma hakaba abagabo babiri batutu n'umugore umwe wambaye imikinyero abagabo bambaye amakoti n'amakaruvate nyuma kandi akaba ari nawe perezida wa repubulika yicaye mu nebe imbere y' indangururamajwi nyuma yayo none hakaba ariho icy, irango cy'igihugu n'ida raporo y'u rwanda.

Umugore ufite ibirango bya fuperi mu kiganza akaba yamba ingofero y'umweru umupira w'umukararori bya fuperi inyuma hakaba ari icyapa kinini cyanditseho tora Kagame paul twubake u Rwanda. Bashyiho n'ifoto ya perezida paul Kagame.

Perezida wa repuburika Paul Kagame wambaye umupira w'umweru wa maboko maremare , ipantaro y'umukara .hakaba hariho ibirango bya efuperi ( FPR) abashinzwe umutekano wiwe bamukikije mu mpande zombi ,abaturage benshi benshi bafite ibirango bya efuperi (FPR).

Umuhanda wa kaburimbo urimo utudanda abanyamaguru bagenderamo, ku mpande zombi hakaba harimo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ariko ntoya ikaba imodoka ifite amarangi y'umweru. Hakaba harimo amapikipiki menshi atwaye abagenzi. Hirya y'umuhanda kandi hakaba hari ibiti biteye ku muhanda bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye afredia kuhanda akabari yahawe utwara amazi yuriya kabari n'ikiraro akaba arimo umunyonzi utwaye umugenzi ku'igare hari n'ipikipiki amapine abiri yambuki amapine atatu n'imodoka ziri kugenda mu muhanda n'ibiti biteye hakurya y'umuhanda bitandukanye.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ya kampani yitwa sitari iri mu muhanda, umuhanda wubatse neza ufite ikiraro, umuyoboro w'amazi n'ibiti ku mu muhanda.

Ni umuhanda wa kaburimbo ufite umuferege w'amazi akaba ari abanyamaguru bagendera ku mpande zombi z'umuhanda hakaharimo amapikipiki abiri ariho abantu imodoka gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange ifite amahangi y'umweru, igiti cy'amashanyarazi kiriho amatara yo ku muhanda n'ibiti bitanduknye biteye hirya y'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ufite aho abanyamaguru bagendera, hakaba harimo imodoka ziri kugenda mu uwo muhanda zicanye amatara bigaragara ko ari mu ijoro, n'amatara ku muhanda arimo kwaka mu ibara ry'umuhondo, hakaba kandi hari amapikipiki nayo atwaye abagenzi, n'izindi nyubako ziri hirya y'umuhanda zitandukanye.

Umuhanda, inyubako ndende, etaje, icyapa cya kokakora nini, moto, abamotari amamodoka, amashanyarazi, ibiti.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo ipikipiki y'amapine abiri, ipikipiki y'amapine atatu, imodoka, igiti cy'amashanyarazi kiriho insinga z'amashanyarazi zijya mu byerekezo bitandukanye, hakaba hariho n'itara ryo ku muhanda, n'inzu z'ubucuruzi ziri hakurya yuwo muhanda wa kaburimbo.

Mupikipiki iriho ebyiri zombi zitandukanye zirya umuhanda wa kaburimbo ibiti by'amashanyarazi biri hirya y'umuhanda n'ibiti bindi bisanzwe biteye hirya y'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ugendagendamo ipikipiki iriho abantu babiri, hari abagabo batatu bari kugenda mu muhanda w'abanyamaguru hafi y'umuferege utwara amazi, ibiti bikikije umuhanda w'imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange.

Ipikipiki y'amapine atatu iriho ibyapa bya pirimusi ikaba iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ufite uduhanda tubiri tw'abanyamaguru n'ibiti bikikije ku ruhande rw'umuhanda wa kaburimbo.

Imodoka itwaye ibinyobwa by'uruganda rwa burarirwa, moto iriho umumotari n'umugenzi w'umugore cyangwa umukobwa, imodoka y'ivatiri yagiye ku ruhande mu muhanda, ibiti biri hirya y'umuhanda bikikije umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ipikipiki y'amapine atatu imbere yayo hari ikimodoka kinini cyo muko bwahoho iriho shitingi y'ubururu hirya y'umuhanda hari inyubako ndende yubatswe ku buryo bugezweho mu birarahure ikaba ari inyubako y'amagorofa menshi.

Imodoka iri mu muhanda ugezweho wa kaburimbo, hagaragara imidugudu y'icyerekezo, ifite amazu asa y'umweru, n'iyindi nzu yegereye umuhanda, ifite amabati y'umutuku.

Umuhanda urimo kaburimbo urimo imodoka iri mubwoko bwa afuso ifite inyuma aho batwara ibintu, umunyonzi uhetse umugenzi n'afagitire itwara amazi n'ibiti biri kumuhanda.

Ahantu haparitse imodoka zitwara n'abagenzi mu buryo bwa rusange, hakaba hari imodoka ebyiri zo mubwoko bwa Ritiko zikaba ziteye amarangi y'umweru icyatsi n'ubururu hafi inyuma hakaba hari umunara muremure n'amatara ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka itwara ibicuruzwa bitandukanye, indi modoka yindi ntoya, hakaba kandi hari umugabo wikoreye umufuka yambaye isurubeti y'ubururu hirya y'umuhanda. Hakaba hari ibiti binini byinshi bitandukanye.

Umuhanda abagabo babiri bagiye kwambuka, umwe agiye kwambuka umuhanda undi ari kugendera mu gahanda k'abanyamaguru, abandi bantu batatu bari mu gahanda ko hepfo b'abanyamaguru imodoka ya kibiyesi bisi nini irimo abantu, hanyuma n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo ufite aho abanyamaguru bagendera ku mpande zombi ukaba kandi harimo kugendamo imodoka nini itwara imizigo, hakaba imodoka umutuku n'umweru hirya y'umuhanda kandi hakaba hari ibiti bitandukanye.

Aho imodoka zijya mu bice bitandukanye by'igihugu cy' u Rwanda ziparika, harimo abantu b'abagenzi, imodoka z'amabisi zitwara abantu mu buryo bwa rusange nyishi zitandukanye zijya mu bice bitandukanye by'igihugu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abagabo babiri bari ku magare, hirya y'umuhanda hakaba haparitse imodoka ebyiri zifite amarange y'umweru z'ubwoko butandukanye.

Umuhanda urimo imodoka itwaye ibihombo byinshi umumotari atwaye umugenzi umugabo ufite igare w'umusore ririho amagi, n'undi mugabo uri kugendera mu gahanda k'abanyamaguru.

Ahantu hategerwa imodoka zitwara abagenzi mu byerekezo bitandukanye mu mujyi wa Kigali, hakaba hari imodoka zigezweho zikaba harimo imodoka isize amarangi y'ubururu n'umweru, ikaba kandi aho abagenzi bicara mu gihe bategereje imodoka zibajyana mu byerekezo bitandukanye.

Umugabo uri kumwe n'umugore wambaye ijire ya emutiyene, ikimodoka kinini cya howo gitwara imizigo yo kubakisha igipangu cy'icyatsi, ibiti, umuhanda ugakubitaho amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo ufite abanyamaguru bagendera habiri ku mpande zombi hakaba hari kugendamo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ifite amabara y'umweru nutundi tubara tw'icyatsi mu rubavu hakaba harimo amapikipiki kandi yariho abantu batandukanye n'ibiti biteye hakurya y'umuhanda bitandukanye.

Amapikipiki yo mu bwoko bufite amapine ya ahagera kuri atatu afite amarangi atandukanye mu afite amarangi y'ubururu ifite amarangi y'icyatsi akaba aparitse ku murongo akabamo n'umugabo uri hagati y'amapikipiki abiri wambaye ingofero' y'umutuku.

Imihanda ibiri ya kaburimbo y'ibyerekezo bibiri bitandukanye hagati y'iyo mihanda hakaba harimo ubusitani burimo ibiti by'imikindo, hakaba harimo n'ibiti by'ibyuma biriho amatara yo ku muhanda, hakaba harimo ipikipiki iriho umugenzi.

Umuhanda wa kaburimbo aho abanyamaguru bagendera, ku mpande zombi hakaba harimo kugendera ipikipiki ihetse w'umugore akaba kandi harimo umunyonzi uhetse umugenzi w'umugabo hirya y'umuhanda hakaba hateye ibiti byinshi bitandukanye, inyuma hirya y'umuhanda nano hakaba harimo kandi undi muhanda w'ibitaka urimo kugendamo imodoka nini ya rukururana.

Umuhanda wa kaburimbo ufite aho abanyamaguru bagendera, bitandukanye hakaba hari umuferagi utwara amazi hakaba harimo imodoka nini yo mu bwoko bw'amasikaniya ikaba iteye amarangi y'icyatsiryakaba hateye ibiti bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ufite aho abanyamaguru bagendera ku gice cy'ibumoso n'igice cy'iburyo, imbere hakaba ari ahantu hari amakaziye menshi yari mu mabara y'umutuku n'ubururu, hakaba hari imodoka itwara ibintu iteye amarangi y'ubururu.

Umuhanda wa kaburembo bugendanamo amapikipiki atandukanye kagumandakaba ari igiti cy'icyuma kirimo kiriho insinga z'amashanyarazi z'amashanyarazi n'byicirozo bitandukanye amatara ku muhanda utandukanye kawa kandi hari umunara wvuye mu byuma uriho iga z'amashanyarazi byo mu byerekezo byakoreko bitandukanye.

Umuhanda urimo abantu babiri batwaye amagare, ikimodoka kinini cyo mu bwoko bwa hoho kikoreye umucanga, ibiti biteye kuruhande rw' umuhanda, umuhanda w' abanyamaguru.

Imodoka nini yo mu bwoko bwa hoho ihetse umucanga hejuru hariho shitingi umuntu uri mu muhanda wa kaburimbo mwiza hirya hari umuhanda w'abanyamaguru, ibiti biteye ku muhanda imiyoboro y'amazi.

Imodoka ziri kugenda mu muhanda wa kaburimbo imodoka yigisha gutwara bigishirizamo abanyeshuri bari gutwara ibinyabiziga, ibiti biriho amatara yo ku muhanda inzu zikikije umuhanda n'ibiti bisanzwe.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka yo mu bwoko bwa fusu ifite amarangi y'icyatsi umuhondo n'umweru, umuferege utwara amazi uriho ikiraro. Ikipiki n'ibiti biteye hirya y'umuhanda.

Imodoka irimo ibicuruzwa bitandukanye biri mu makarito biriho ubwishyu. imifuka y'ubururu, imifuka y'imituku, ibindi bicuruzwa biri mu mifuka y'imihondo, n'ibiri mu mifuka y'umweru, n'izindi modoka ziri imbere, n'abantu bambaye amasarubeti mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, akaba hagati y'umuhanda n'undi harimo ubusitani burimo ibiti by'imikindo n'izindi ndabyo zitandukanye, hakaba kandi hagati y'aho ngaho hateyemo imikindo hakaba harimo ibiti by'ibyuma, biriho amatara yo ku muhanda, hakaba hari kugendamo imodoka zitandukanye n'ipikipiki.

Ibikorwa remezo bya leta aho ari ahantu hateye ubusitani bwiza ibiti byinshi n'imikindo utuzu tugiye ducururizwamo, ibikoresho bitandukanye by'umuco nyarwanda aho hari ahantu abanyamaguru baza bakicara bakaba bifatira umuyaga.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo leta y'ubwatsi bw'uw'icyatsi hakaba harimo abantu batandukanye barimo gukina umupira w'amaguru hirya kandi hakaba hakikijwe n'ibiti byinshi byinshi bitandukanye hakaba hagiye hariho n'amatara yamurikira icyo kibuga.

Icyapa kiri mu ibara ry'umukara hakaba harimo amagambo yandikishijwe irangi ry'umukara avuga ko imbere ari ahantu hari gukorwa umuhanda .

Umuhanda ukiri gukorwa ukabonamo n'abakozi bambaye amajiri ubona ko bari mu kazi ko kugorora uwo muhanda, n'abandi bantu bari kuruhande bari gukoreraho bizinesi zitandukanye.

Icyapa kiri mu mabara y'umutuku, umweru, hakaba harimo ikimenyetso kiri mu ibara ry'umukara, hakaba hari ikiri hakuno y'umuhanda wa kaburimbo, hirya hakaba hateye ibiti byinshi, hafi y'icyo cyapa hakaba hateye ibindi biti byinshi, cyerekana ko mu muhanda imbere harimo ikorosi.

Umuhanda wa kaburimbo ufite abanyamaguru bagendera ku mpande zombi amatara ku muhanda ibiti bitwara insinga z'amashanyarazi icyapa kinini cyanditseho akarere ka bugesera n'ibiti, ibindi biri hepfo umuhanda bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ufite aho abanyamaguru bagendera habiri ku mpande zombi , hakaba hari umuferegi utwara amazi kandi upfundikiye, hakaba hari icyapa cy'abanyamaguru bambukiraho.

Abagabo bagera kuri batatu bafite icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru n'umukara, handitseho ko imbere hari igikoresho gifata amashusho y'imodoka ziri kugenda ku muvuduko urengeje mirongo itandatu. Hakaba hirya yabo hari inyubako ndende yubatse mu buryo bw'amagorofa atandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo kaba ku ruhande hari icyapa gishinze ku cyuma'ibara ry'umweru icyapa kikaba gikozwe mu buryo bwa karerekaba harimo amabara y'umuhondo harimo icyapa kigaragaza ko umuhanda imbere hari aho umuhanda ukomereza biriw ibara ry'umukara n'ibiti bite hafi y'umuhanda.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru hagati hakaba harimo igishushanyo cy'ubwoko bwa mpandeshatu, hakaba harimo imodoka y'amarangi y'umukara harimo n'imironko igaragaza umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibitimatara ku muhanda ku ruhande ibiti birihomo hataho ku umuhandakaba ari ibyapa byimutse ni umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo imodoka abanyamaguru n'amagare hanoho umuhanda hakaba ari icyapa kigaragaza ko imbere mo metero nkeya hari kamera ifatamodoka zifite umuvuduko urengeje mirongo itandatu.

Icyapa kinini kigaragaza aho imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zihagarara. Akaba ari icyapa kiri mu mabara y'ubururu n'amabara y'umweru.

Icyapa kigaragaza umuvuduko wa mirongo itandatu kirometero ku isaha, iki ni icyapa kigaragaza ko utwaye ikinyabiziga atemerewe kurenza umuvugoko wa kirometero mirongo itandatu gusa.

Umuhanda uriho ibyapa bibiri kimwe kigaragaza ko imbere hari umuhanda ucuramye ikindi kigaragaza imbere feruje, amashanyarazi n'amamodoka.

Icyapa kiri mu mabara y’umuhondo, umukara n’umutuku. Kaba harimo umunyamaguru aga ka arimo kwambuka . Icyapa kigaragaza ko ahantu abanyamaguru bajya bambukira icyapa cyo mu muhanda.

Icyapa kinini cyerekana imihanda ijya mu byerekezo bitandukanye byo mu ntara y'amajyepfo, aho berekana umuhanda ukomeza ko hariho ugera mu bice bitandukanye harimo Akanyayaru, Huye na Muhanga hanyuma umuhanda undi ukaba ukata mu ikoni ry'ibumoso ukaba ari Ruhango Kinazi.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako ifite igipangu kigiye kiriho amatara yo ku gipangu atandukanye, hakaba igipangu kiriho amabuye meza ari mu mabara atandukanye.

Umudugudu urimo inzu zitandukanye hakaba hari inzu igaragara cyane iteye irange ry'umweru kandi inzu iteye irange ry'umweru isakaje amabati y'umutuku, ibiti bitandukanye biteyemo uwo mudugudu, hakaba hari n'indi nzu ikiri kubakwa y'amagorofa arenze abiri.

Inyubako iteye amarenge y'umweru igipangu kiriho uruzitiro hejjuru hariho utwuma dutyaye, ibiti n'ibyatsi biteye inyuma y'igipangu.

Umudugudu wubatse ku buryo bugezweho harimo amazu atandukanye, amazu amwe asakaje amabati y'umutuku, asakaje amabati y'ubururu hakaba hagiye harimo ibiti bitandukanye muri buri gipangu hakaba hari n'amazu yubatswe ku buryo bw'amagorofa arenze abiri.

umuhanda wa kaburimbo urimo ipikipiki iriho umuntu uyitwaye n'umugenzi, hakaba hari umugabo ufite umutaka urimo amababara y'umutuku n'ubururu hakaba hari imodoka ziparitse ku ruhande, rw'umuhanda n'inyubako isize amarangi y'umweru, hakaba harimo n'imodoka iri guturuka hirya muri uwo muhanda wa kaburimbo n'ibiti bindi bikikije hakurya y'umuhanda.

Ni umuhanda kaburimbo ibiti bikikije umuhanda wa kaburimbo ku pande zombi hirya hakaba hari inzu yubatse mu buryo bugezweho, ikaba ifite amagorofa agera kuri ane.

Umudugudu wa Nyagatovu, urimo inyubako nyinshi zitandukanye yikaze amabati y'umutuku, umweru kandi hakaba arimo igiti cy'icyuma cy'amashanyarazi gitwara insinga mu byerekezo bitandukanye muri uwo mudugudu, hakaba harimo rero hirya ishyamba riteyemo ibiti byinshi bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umuntu uri ku ipikipiki, ibiti biteye hirya y'umuhanda, inyubako z'abantu ziri hirya y'umuhanda hakaba hagaragaramo urugi rw'umukara.

Inyubako zitandukanye zisakaje amabati y'ubururu zikaba ziteye amarangi y'umweru hagati munyubako hakaba hagiye harimo ibiti bitandukanye by'ubwoko bwinshi hakaba hirya hari ahantu hanini hanini hashobora kuba hari inyubako z'ubwoko buteye kimwe buriho amabati y'ubururu.

Agahanda gakoreshejwe amabuye na sima, hakaba barimo kugendamo abantu batandukanye bahetse ibikapu, hirya hakaba haparitse imodoka y'umutuku w'umukara zitandukanye.

Umudugudu ugizwe n'amazu menshi yubatse ku buryo bu bwenda kumera kimwe amenshi asakaje amabati y'umutuku ayandi y'umuhondo andi mabati y'umukara urabonako hagiye hateyemo n'ibiti bitandukanye.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo ubusitani, burimo ibiti by'imikindo byinshi, amatara yo ku muhanda, inyubako zigezweho z'amagorofa zikikije umuhanda n'amamodoka ari gutambuka mu muhanda.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo amatara yo ku muhanda hagati y'imihanda ibiri hakaba harimo ubusitani buteyemo ibiti byubwoko by’imikindo, hakaba hari imodoka iri kugenda, hakaba hari kandi n'ibindi bindi biteye ku ruhande rw'umuhanda n'ubusitani butandukanye.

Imihanda ibiri ya kaburimbo ijya mu byerekezo bitandukanyebaye, ikaba ifite aho abanyamaguru bagendera ku mpande zombi, hakaba hari aho abanyamaguru bambukira hacimo imirongo y'umweru, hakaba hari ibiti by'amashanyarazi bifite amatara ku muhanda, n'ibindi biti bitandukanye biteye hakurya ku mpande zombi z'umuhanda.

umuhanda kaburimbo nini n'imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye aho bariho abanyamaguru bari kwambukira ahabugenewe na amatara yo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uriho igiti cy'amashanyarazi cy'icyuma gitwara kiriho itara ryo ku muhanda hakaba hari ibiti bikikije umuhanda bitandukanye hirya y'umuhanda hakaba harimo inyubako ziteye amarangi y'umuhondo, umutuku n'ubururu nyinshi zitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibirango by'amabara y'umweru aho abanyamaguru bambukira hakabarimo ibirango by'amatara bigenda byerekana ko abanyamaguru b'ibinyabiziga bagomba kubahiriza amategeko umuhanda mu bijyanye no kwambuka no kwambukiranya umuhanda.

Aha hari imihanda ibiri ya kaburimbo ijya mu byerekezo bitandukanye, hagati y'iyo imihanda hakaba harimo ubusitani burimo ibiti by'imikindo, hakaba hari ibiti by'amashanyarazi biriho amatara yo ku muhanda byo mu muhanda n'ibindi biti biriho ibyo mu muhanda bitandukanye.

Imihanda ya kaburimbojya mu byerekezo bitandukanye hakaba arimo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ikaba indi modoka iri kujya byerekezo bitandukanye irimo itwara imyaka ipikipiki iriho umugenzi akaba hari ibiti by'amashanyarazi bitwara insinga z'amashanyarazi mu byegezo bitandukanye n'indi biti biriho amatara yo ku muhanda by'ibyuma.

Umuhanda mwiza ugezweho wa kaburimbo ubona ko ari imihanda ibiri, umunyamaguru ari kwambukira mu mirongo yabigenewe aho abanyamaguru bambukira, imodoka, amapoto ariho amatara y'amashanyarazi, ibiti biri ku muhanda.

Imihanda ibiri ya kaburimbo, hakaba hari aho hari ibimenyetso biciyemo amarangi y'umweru aho abanyamaguru bambukira, hirya hakaba ari ibiti by'amashanyarazi biho amatara yo k'umuhanda, hagati y'umuhanda uri iburyo hakaba arimo ipikipiki iriho umugenzi, hakaba hariho tw'abanyamaguru ku mpande zombi.

Umuhanda wa kaburimbo umwe uca hasi hejuru hakaba habari ikiraro kiriho umuhanda wundi wakaburimbo kuri uwo muhanda wo hasi hakaba ryateye ubusitani ,indabyo z'umuhondo zitandukanye ibiti hakaba kandi hariho itara ryo ku muhanda riri ku giti cy'icyuma hakaba no umuhanda harimo kugenda amapikipiki atwaye abagenzi.

Mu muhanda wa kaburimbojya mu byerekezo bitandukanye hakaba harimo amapikipiki arimo agenda hirya hakaba ha umunara muremure w'ibyuma z'amashanyarazi byerekezo bitandukanye habaye n'ikindi giti nacyo cy'icyuma gitwaye amashanyarazisinga mu byerekezo bitandukanye kaba ariho n'itara yo ku muhanda kuri icyo giti hakaba ariho kandi imodoka zitwara imyaka biri kugenda mu muhanda.

Imihanda ya kaburimbo yo mu byerekezo bitandukanye hagati y' mihanda hakaba harimo ubusitani butandukanya iyo mihanda karimo ibiti biteyemo by'ubwoko bw'imikindo hagati yakandi hakaba harimo ibiti biriho amatara y'amashanyarazi yaka mu byerekezo bibiri n'ibindi biti biteye hakurya y'umuhanda bitandukanye hakaba harimo n'imodoka ebyiri imwe y'umuhondo n'indi y'umukara.

Umuhanda w'ibitaka ukaba harimo kugendamo amapikipiki y'amapine atatu, hakaba kandi hari ibiti biteye hakurya y'umuhanda n'ibipangu by'amazu y'abaturage byinshi bitandukanye, hafi hari n'igiti cy'amashanyarazi gitwara insinga muri iryo.

Imihanda ibiri ya kaburimbo hagati hakaba harimo aharinze ubusitani burimo ibiti by'imikindo hakaba harimo ibinyabiziga by'imodoka birimo gutambuka mu muhanda kandi mu muhanda hakaba abanyamaguru bagendera hagati ahandi hateyemo ibiti by'imikindo hakaba hagiye harimo n'ibiti by'amashanyarazi biriho amatara yo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'imyeru, aho abanyamaguru bambukira hakaba harimo ibiti by'amashanyarazi by'ibyuma biriho amatara yo ku muhanda n'izindi, ubusitani bwegereye umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ufite abanyamaguru bagendera babiri ku mpande zombi hakaba hari ibiti biteye hakurya y'umuhanda by'ubwoko butandukanye kandi hakaba harimo imodoka ebyiri zijya mu byerekezo bitandukanye hakaba harimo n'umuntu uri ku igare utwaye .

Umuhanda urimo imodoka nyinshi ziri ku murongo umwe, nini, zo mu bwoko bwa fuso, umumotari, icyapa cyerekana umuhanda ukomeza, ipoto z'amashanyarazi.

Umuhanda munini ya kaburimbo urimo imodoka y'umweru iri hakaba hakikije ibiti bitandukane byinshi n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'umweru, urimo ipikipiki y'umuntu utwaye undi muntu ari babiri, ibiti bikikije umuhanda byinshi

Umuhanda wa kaburimbo ukaba umwe urimo guca hasi hejuru hakaba ari ikiro kiriho undi muhanda wa kaburimbo ukomeza, hasi hakaba hari igiti kiriho itara ryo ku muhanda, hakaba hari umunyonzi uri ku igare, n'ibiti bindi byikije hirya y'ikirararo ku muhanda.